Uyu ni umwana muto cyane wambaye agashati k'umuhondo ndetse n'ikabutura y'ubururu, afite ibirahure bibiri by'amazi avuye kudaha mu kidendezi, uyu mwana biragaragara ko akiri muto ashobora kunywa aya mazi kandi yanduye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, ni zimwe mu nzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bamaze kuganirira hamwe uko bateza imbere ubuvuzi rusange, barishimye cyane, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe harimo abari, abategarugori ndetse hakabamo abasore n'abapapa, bari mu nama nyunguranabitekerezo kugira ngo barebe ukuntu ubuvuzi bwatezwa imbere ku rwego Mpuzamahanga.

Aba ni abari bane ndetse n'umusore umwe, bakaba bambaye impuzankano, ni imipira y'ubururu myiza cyane ndetse bose bambaye amabaji mu ijosi, bakaba bafite icyapa kibari imbere, cyanditseho amagambo Unicef.

Abana bato cyane bambaye impuzankano y'ishuri bari gukarabira kuri robine ntoya cyane ibari imbere, abana batojwe umuco wo gukaraba nka bumwe mu buryo bubarinda uburwayi buterwa n'umwanda uturuka kudakaraba.

Uyu ni umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara yatebeje, yicaye ku ijerekani imbere y'ivomero rusange, ari guseka cyane, anejejwe cyane n'ukuntu Leta y'u Rwanda yazirikanye abaturage, bityo ikabegereza amazi meza cyane asukuye.

Umwana muto cyane wambaye agashati k'icyatsi kibisi ndetse n'agakabuturaba, yaje kuvoma amazi ku ivomero rusange ryiza cyane leta yubakiye abaturage mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Yamaze kuvoma ari gukaraba ku ntoki kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu baje ku ivomero rusange, hateretse amabido menshi cyane ari mu mabara agiye atandukanye, harimo ay'umuhondo wijimye, ndetse n'ay'umuhondo wa nyawo. Hakaba hari umwari uri kubavomera, iri vomero rikaba ryubatse mu buryo bugezweho.

Urujya n'uruza rw'abantu rwaje mu bukangurambaga, aho bari kubashishikariza kwirinda indwara zigiye zitandukanye. Ni imbere y'inyubako y'ibiro by'akagari, hakaba hari ihema bari gutangiramo serivise z'ubujyanama.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, irimo umuganga wambaye impuzankano y'ubururu, hakabamo umubyeyi w'umumama wicaye hasi, bikaba bigaragara ko iri vuriro ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe ndetse na Mudasobwa.

Iri ni ihuriro ry'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi. Iri rikaba ari ihuriro mpuzamahanga ryiga gushakira hamwe uburyo ndetse n'ubushobozi bwo kurwanya indwara z'ibyorezo ziri gukomeza kwiyongera ku isi.

Urujya n'uruza rw'abantu ruri ku ivomero rusange, ni ivomero rifite amarobine abiri, iry'imbere ndetse n'iry'inyuma, hari umugabo uri kubavomera, aya mazi yageze muri aka gace akenewe kuko ubona ko bayakunze.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, akaba ari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, niyi nama yabaye, ihuza abafatanyabikorwa bose, bashobora gufashwa kugira ngo hirindwe iyi ndwara y'ubushita bw'inkende.

Aba ni abantu bari mu biganiro nyunguranabitekerezo bigamije guteza imbere ubuvuzi harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere ya buri muntu hateretse icupa ry'amazi ndetse bakaba bafite impapuro n'amakayi bari kwandikamo ibyo bari guhugurwa.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, harimo umubyeyi wambaye ibitenge, uteruye akana ke mu ntoki, akaba afite ifishi agiye kwivurizaho, muri iyi nyubako harimo n'abandi babyeyi benshi cyane bateruye abana, bigaragara ko bose baje kwivuza.

Uyu ni umumama uteruye umwana muto cyane akaba afite ifishi mu ntoki, yaje kuvuza uyu mwana ariko ategereje kwinjira mu ivuriro ngo bamuvure, hakaba hari abandi ba mama bahuriye hano na bo baje kwivuza.

Aba ni abana bane, baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, bazanye utubido tugana n'uko bangana. Inyuma yabo hari umukobwa wavuye mu modoka. Aza kubazamurira amazi mu rwego kugira ngo bavome. Hirya kure hari imodoka iri mu maraba y'umweru ndetse n'umukara.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, irimo umwari w'umukobwa ufite imisatsi miremire, hakabamo umumama bigaragara ko ari umuganga, uyu mumama bari kumuha akana ngo agasuzume, bityo akavure kagire ubuzima bwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ku ivomero rusange. Hari umubyeyi umaze kuvoma. Hakaba hari n'undi uri kumufasha gukuraho ikivomesho kiwe. Ni indobo y'ubururu. Kugira ngo na we avome n'abandi baze kubona uko bavoma.

Ibi ni ibiganza biteze kuri kandagira ukarabe, uyu ni umuntu ugiye kwiyogera intoki ze mu rwego rwo kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda, ni kandagira ukarabe ifite ibara ry'ubururu hakaba hari n'isabune nziza cyane.

Leta y'u Rwanda yiyemeje kwegereza abaturage serivise z' ubuvuzi mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima bari kubaka hano, kikazuzura kikajya gifasha abaturage bahatuye.

Abana ni abana babiri bari munsi y'ikigega, bakaba bari gukaraba intoki ku mazi meza ari gusohokamo, abana batojwe kugira isuku bityo indwara ziterwa n'umwanda zigenda zigabanuka uko bukeye n'uko bwije bakagira ubuzima bwiza.

Iyi ni inama yiga ku bijyanye n'ubuzima yateraniyemo inzobere zaturutse hirya no hino, imbere yabo hakaba hicaye abayobozi bari kubagezaho ibiganiro, hari umugabo uri imbere y'indangururamajwi akaba ari kugenda abasobanurira uko ibi biganiro Mpuzamahanga byita ku buzima byabiteguye.

Aha ni ku ivomero rusange, hari urujya n'uruza rw'abantu baje gushaka amazi. Hari amabido menshi cyane arenga mirongo ine ari ku murongo. Ndetse hari n'abazanye amagare aho amazi bigaragara ko hano yahageze akenewe.

Umubyeyi wambaye agashati k'igitenge ateruye umwana we wambaye agapira k'ubururu ndetse n'akagofero karimo amabara y'umuhodo ndetse n'icyatsi, muganga wambaye ikanzu y'igitenge ndetse n'impuzankano y'umweru ari kumuha ikinini cya vitamini.

Abana bato b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umukara, bakaba bafite ibikombe bose mu ntoki. Bari kuvoma amazi meza cyane mu kigega kiri hano, maze bakayanywa bakishima.

Abamama batatu bari ahantu hamwe, umumama umwe ari kuvoma amazi ndetse undi ari inyuma arimo arazamura icyuma mu rwego kugira ngo amazi aze, uyu mumama wujuje indobo, ari kuyiteruramo mu rwego kugira ngo ajye kwikorera imirimo.

Aba ni abana bari kudaha amazi mu kiyaga, aya mazi bakaba bayajyana mu miryango yabo agakoreshwa imirimo igiye itandukanye. Leta y'u Rwanda ikomeje guhangana n'ibi bintu mu rwego rwo kugira ngo isubize ubuzima bwiza aba baturage.

Iyi ni inyubako y'Ikigo Nderabuzima, ikaba iteye irangi ry'ubururu. Hariho abantu bashushanyijeho ndetse hakaba n'amagambo agira ati: "Gira ubuzima." Hakaba hari abantu bari gukorera inama mu busitani bw'iri vuriro.

Aba ni abana bari koga intoki ku bwogero rusange, abana bakiri bato na bo batojwe kugira isuku mu rwego rwo kugira ngo bigirire ubuzima bwiza buzira umwanda kandi bwuje umutekano n'uburere.

Uyu ni umwari wiyemeje gutanga ubujyanama ku bijyanye n'ubuvuzi, uyu mwari agaragaza yuko igihe mugendeye hamwe, mushobora kureba imbere kandi mukagira abafatanyabikorwa, bakabafasha kugera kuri byinshi.

Aha ni ahabereye igikorwa cyo gupima abana ndetse no kubakingira, hari umubyeyi wicaye hasi wambaye agapira k'ubururu karimo utubara tw'umweru ndetse n'umukara uteze igitambaro, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru uri gutera urukingo akana kakiri gato.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hakaba harimo inzobere ziyisohotsemo. Harimo abirabura ndetse n'abazungu, hakabamo abajyanama, abaforomo ndetse n'abaganga, bamaze guhabwa amahugurwa y'uko bateza imbere ubuvuzi.

Aha ni ku kigo nderabuzima, hateraniye ababyeyi benshi bateruye abana bakiri bato, bigaragara ko babazanye mu bikorwa byo kugira ngo babakingire indwara zigiye zitandukanye bityo bazakurane ubuzima bwiza.

Uyu ni umubyeyi uteruye akana kiwe, akaba ari kumwe n'umuganga wabigize umwuga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, uyu muganga akaba ari gupfuka aka kana aho kakomeretse, aka kana na ko kari gushinyiriza.

Umugore ndetse n'umugabo bakiri bato, bagiye gusura umujyanama w'ubuzima, arangije abaterera agatebe, akaba ari kubasobanurira ibijyanye n'uko bita ku mwana kuva akiri mu nda kugeza avutse.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bari mu nama nyunguranabitekerezo, aho bari kwiga ku kuntu bateza imbere ubuvuzi bukagera ku rwego mpuzamahanga kandi bukagera kuri buri wese.

Iri ni ivomero rusange, ni igihombo bateye ahantu hashunguka amazi, hari umugabo uri gukaraba intoki, ni mu rwego rwo kugira ngo isuku itezwe imbere bityo buri muntu agire ubuzima bwiza bugira umwanda.

Uyu ni umubyeyi wambaye ishati y'igitenge, ateruye akana kambaye agapira k'umweruru ndetse kakaba kambaye n'ingofero irimo utubara tw'umuhondo n'icyatsi kibisi, umuganga wambaye impuzankano y'umweru akaba ari ari kumuha igitonyanga cya vitamini.

Aba ni abamama bari mu gikorwa cyo guhabwa ubuvuzi. Leta y'u Rwanda yiyemeje guha ubuvuzi buri muturarwanda wese nta kiguzi, uyu ni umuforomokazi uri gusuzuma aba babyeyi umuvuduko w'amaraso.

Iri ni ivomero rusange ririho urujya n'uruza rw'abantu, hari umumama uri kumwe n'umwana we ndetse hari n'abandi bana baje kwivomera amazi meza cyane, hari ibikoresho bitwarwamo amazi bigiye bitandukanye, aya mazi abafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Aba ni ababyeyi bambaye udupira tw'umweru bakaba bateruye abana bambaye udupira tw'umuhondo, hari abagabo bambaye udupira tw'umuhondo na bo ndetse bakaba bafite amata bari kugenda banywesha aba bana, mu rwego rwo kugira ngo babaremere ubuzima bwiza.

Uyu ni umwana muto cyane wambaye agashati ka makarokaro, ari gusuhuzanya n'umugabo wambaye agapira ka orange, bigaragara ko yishimye, aha hari abandi bana benshi cyane batoya, ni mu gikorwa cyo kugira ngo abana babaremere ubuzima.

Aba ni abari bateraniye ahantu hamwe, aho bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuvuzi Mpuzamahanga, aha hari akapa kagaragaza umuryango Mpuzamahanga wita ku bana uzwi nka UNICEF ndetse inyuma yabo hakaba hari icyapa kigaragaza ko ibi byagenewe abana.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Aba ni bamwe mu bakora ibikorwa by'ubutabazi mu rwego rwo kugira ngo basubize abagiye kubura ubuzima babageza ku mavuriro.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, ikaba iteraniyemo abantu benshi bigaragara ko baje mu mahugurwa, bamwe bambaye impuzankano z'ubururu abandi ntazo bambaye, bari guhugurwa ukuntu ubuvuzi bwagera kuri bose kandi ku gihe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, ni inzobere mu by'ubuvuzi, bakaba bari guhana ibitekerezo mu rwego kugira ngo bafate imyanzuro kandi barebe ukuntu bateza ubuvuzi mpuzamahanga imbere, bukagera kuri bose.

Urujya n'uruza rw'abantu higanjemwo abana, abagabo ndetse n'abakecuru, bose baje kwirebera ivomero ryiza ryuzuye mu gace k'iwabo, ni ivomero rusange Leta yubakiye abaturage, hakaba hari abana baje kuhavoma.

Abajyanama b'ubuzima, abaforomo ndetse n'abaganga bari ku kigo nderabuzima cya Mayange mu karere ka Bugesera. Imbere yabo hari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi. Yambaye ikote ryiza cyane ry'umukara ndetse n'amarinete, aho yabagiriye inama zikomeye, akabahugura bose bakaba bishimye.

Uyu ni umugabo wambaye agapira k'ubururu kanditseho UNICEF ndetse n'agapfukamunwa k'umweru, ari gukorera ibido umwana muto cyane, hari umukobwa w'umuzungu uri gufotora icyo gikorwa uyu mugabo ari gukora.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari gutegura igikorwa cy'ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi, aho bari gutegura ibyapa bazifashisha muri icyo gikorwa ndetse n'umunsi bazagikoreraho.

Utu ni utwana twicaye hasi twambaye udupira twa orange, hakaba hari abantu bakuru bari kugenda baduha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, bigaragara ko ari abantu bifuriza aba bana ubuzima bwiza, harimo n'abasirikare.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu nama nyunguranabitekerezo, aho bari kurebera hamwe ibijyanye n'ubuvuzi, aho bashaka kubuteza imbere ahantu hose bukahagera busukuye kandi bunoze.

Aba ni abana bane bakaba bari gukaraba intoki bishimye cyane baseka, umugabo wambaye bote uri kubasukira amazi na we urabona ko yabitayeho abashyirira ibase hasi kugira ngo aya mazi bari koga age aba ari ho agwa.

Aba ni abagabo bambaye amakoti bari gusuhuzanya, inyuma y'umugabo mugufi wambaye ikote ry'umukara hari umuzungu, bigaragara ko bavuye kuganirizwa ku bijyanye n'ukuntu ubuvuzi bwatezwa imbere mu bihugu bigiye binyuranye.

Ibi ni ibiganza byambaye uturindantoki tw'ubururu, aho bari gusuzuma ibizami bigiye bitandukanye, mu rwego rwo kugira ngo barebe niba koko umurwayi afite uburwayi cyangwa se hari ikindi kibazo afite.

Uyu ni umu mama waje kuvoma amazi ku ivomero rusange, ari kuyavoma yishimye cyane kandi aseka, ni nyuma yuko leta y'u rwanda ibatekerejeho maze nabo ikabegereza amazi meza asukuye.

Izi ni inzobere mu by'ubuvuzi zateraniye ahantu hamwe, hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere ya buri wese hagiye hateretse agacupa k'amazi, bose bari gutanga ibitekerezo ndetse banahana inyunganizi.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, irimo urujya n'uruza rw'abantu, baje gushaka serivise z'ubuvuzi. Harimo abamama, abana bato ndetse n'abakecuru bakuze. Muri iki kigo nderabuzima, harimo abaganga bake, kuvura abarwayi birabagora.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, hakaba hari abantu baje kwivuza. Hari abana babiri bigaragara ko barembye cyane ariko bakaba bagitegereje abaganga babitaho, akenshi na kenshi abaganga bo ku bigo nderabuzima usanga badakora neza.

Aba ni abajyanama b'ubuzima baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bakaba bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubuvuzi aho babasobanurira uko bakingira indwara ya Malariya ndetse n'uko batanga ubuvuzi bw'ibanze.

Aba ni abana bato cyane baje kuvoma amazi ku ivomero rusange. Hakaba hari umusore urikubavomera. Ariko na we akaba yaje kuvoma azanye amabido manini. Bose barangariye abandi bantu baje kuvoma.

Aba ni abana bato cyane bambaye impuzankano iri mu ibara rya kaki, biga mu mashuri abanza bakaba baje kuvoma amazi, aho bateze indobo bari bazanye kuvoma zimaze kuzura batangira kwiyongera ibiganza byabo.

Urujya n'uruza rw'abantu baje ku ivomera rusange, bakaba baje gushaka amazi yo gukoresha mu ngo zabo, mbere y'uko Leta y'u Rwanda igeze amazi hano abaturage bari bahangayitse bajya mu gishanga, ariko ubu basigaye babona amazi meza kandi asukuye.

Uwo mwana w'umukobwa bigaragara ko akuze yambaye agashati k'amaboko magufi ndetse n'ijipo y'umukara, ari kumwe n'akandi kana bigaragara ko bavukana, bajyanye kudaha amazi mu kidendezi, aya mazi kuyakoresha si byiza, kuko bishobora kubaviramo uburwayi buterwa n'umwanda.

Aha aha ni ahabereye igikorwa cyo gutera imboga ndetse n'imbuto, ni akarima k'igikoni kubabakanwe ubushishozi n'abantu bambaye impuzankano y'umuhondo, bakaba bari kumwe na porisi y'igihugu cy'u Rwanda aho bari gutera imboga kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umugabo w'umwirabura wambaye ikote ryiza cyane ry'umukara ndetse na karuvati, akaba ari kumwe n'umukobwa w'umuzungu. Uyu mugabo ari guhereza uyu muzungu igikapu cyanditseho ati "Sura u Rwanda."

Uyu ni umwana muto cyane wambaye agakanzu, akaba afite imisatsi iboshye, afite icupa ry'amazi rirerire, akaba ahagaze kuri robine rusange aho agiye kuvoma amazi, aho iterambere ryaziye abana na bo basigaye bazi kuvoma kuri robine.

Uyu ni umwana muto waje kuvoma ku ivomero rusange, yavomye amajerekani abiri y'umuhondo ndetse n'imwe y'ubururu azitereka ku ruhande, arangije mu gihe arindiriye abaza kuzitwara, aba yiyogera ku ntoki. Ni byiza ko uyu mwana yatekereje koga intoki.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu, ari gusuhuzanya n'undi mugabo na we wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, akaba afite ibitabo mu ntoki, bakaba bagiye mu ihuriro ryiga ku bijyanye n'ubuzima.

Aba ni abajyanama, abaforomo ndetse n'abaganga, bari mu kigo nderabuzima, bamaze guhabwa amahugurwa y'uko bakwiye kuvura abantu ndetse no kuzamura urwego rw'ubuvuzi, bari gufata ifoto kandi bakaba bagiye kunoza imikorere yabo.

Aba ni abana ndetse n'abarezi babo, aba bana bambaye impuzankano iri mu mabara y'umuhondo, abarezi babo hakaba harimo abirabura ndetse n'abazungu, aba bana barishimye cyane kuko baremewe ubuzima, bakaba bagiye kubaho neza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bari mu ihema ryiza cyane riri mu ibara ry'umweru, rikaba ririho n'andi mabara y'icyatsi kibisi, umuhondo, ndetse n'ubururu, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi akaba ari kubaganiriza ku bijyanye n'uko bateza imbere ubuvuzi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bari kuganira mu buryo bw'amatsinda babiri babiri, aho umwari ari kuganiriza umumama wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse ukenyeye ibitenge, aba babyeyi bari gusuzumwa uko ubwonko bwabo bukora.

Umumama ndetse n'umupapa bicaye ahantu hamwe, bigaragara ko bari mu nama, bakaba bari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, aho abo bari kubwira babateza amatwi.

Uyu ni umwari, akaba ari kugaragaza yuko ari byiza ko wamenya aho uhagaze ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba agaragaza yuko igihe cyose utazi aho uhagaze ushobora kuba ufite ikibazo.

Uyu ni umusore watoraguye ibyenda byacikaguritse arangije arabyambara. Yisize imbyiro mu maso, arangije aheka ibifuka birimo imyanda ndetse n'ibitebo bishaje yatoraguye. Uyu musore akeneye ubujyanama kugira ngo ubuzima bwe bwo mu mutwe bwitabweho.

Uyu ni umugabo wambaye ibyenda byacikaguritse, afite ibyanwa byiboshye ndetse n'ibisatsi wagira ngo ni ibyo yatoya abyishyiraho, uyu mugabo bigaragara ko adaheruka no koga, akaba afite ikibazo cyo mu mutwe akeneye ubujyanama.

Ni byiza cyane gusigasira ubuzima bwo mu mutwe kuko burya iyo utaye ubwonko, uba utakaje ubumenyi, intekerezo ndetse n'ibindi byose byagufasha kubaho, bityo uba ukeneye ubujyanama mu rwego rwo kugira ngo ugarure ubumuntu.

Uyu ni umwari uri guseka cyane, aho bigaragara ko anezerewe, iyo ubayeho neza kandi ukabaho wisanzuye, ubwonko bwawe bukora neza bityo intekerezo zawe zigahora zituje kandi zitunganye.

Umugabo wambaye Amarineti, akaba afite imisatsi miremire, yambaye agashati k'umweru. Hakaba hari amagambo agaragaza yuko ubuzima bwo mu mutwe, bisaba kubutegura kuri buri umwe. Ni byiza ko uganiriza umuntu kugira ngo umenye uko abayeho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse inshuro ebyiri ikaba isize irange ry'umuhondo, imbere yayo hari umugabo wambaye ishati ndetse n'amarinete uri kuhifotoreza, hakaba hari imikindo ibiri itanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni imodoka irimo ivuriro rigendanwa. Iyi modoka iriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, bakaba bari baje gutanga ubuvuzi bujyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe hakaba hagiye kubera ihuriro ry'Umunsi Mpuzamahanga wo kuzirikana ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko. Hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse hakaba hari n'ikirango cy'kigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Aha ni ahantu hateraniye abamama, abapapa ndetse n'abasaza, aho bose bari guhugurwa ukuntu wakwita ku mwana maze agafunguka ubwonko bwe akagira imikorere myiza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganirizwa ku burwayi ndetse n'uko ubwonko bushobora gutokorwa. Aho basobanurirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, harimo ababyeyi bicaye mu buryo bw'ikiziga, bakaba bari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, hakaba hari abari mu kiziga hagati bari kubaha urugero.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, kuri iyi nyubako hasize irangi ry'umweru, hakaba hariho n'amagambo yo mu cyongereza yandikishijwe mu ibara ry'ubururu, hari ibiti byiza cyane ndetse n'imikindo bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahagenda.

Uyu ni umwana w'umukobwa ukiri muto yicaye ku musambi ahantu munsi y'igiti, yafashe umunyururu yizirika amaguru yiwe ku giti, nkuko bigaragara uyu mwana w'umukobwa afite ikibazo cy'ihungabana, ubwonko bwe ntibukora neza.

Uru ni urubyiruko ruri mu gikorwa cy'ubukangurambaga, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko. Bakaba bafite icyapa cyanditseho amagambo agaragaza igikorwa, bari gukora. Bahagaze mu muhanda mwiza cyane, usashemo amapave.

Aba ni abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bari mu kibuga hagati bose barishimye cyane bari guseka, bigaragara neza ko imikurire ndetse n'imikorere y'ubwonko bwabo igenda izamuka uko bukeye n'uko bwije.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bamaze guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, bambaye imipira imeze nk'aho ari impuzankano y'ubururu iriho amagambo y'umweru mu gituza, bakaba bari kumwe n'Umuzungu.

Uyu ni umwana wiga mu mashuri y'inshuke. Akaba yambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu iriho agakaruvati. Uyu mwana ari kurya biswi aseka, bigaragara yuko iyo umwana umutoje akiri muto kunezerwa akurana ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Uyu ni umu mama wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, afite agatabo gakubiyemo ibyo wagenderaho byose bityo ugasigasira imikorere y'ubwonko bwawe bityo ukagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse inshuro ebyiri ikaba isize irange ry'umweru ku nkuta, hasi hakaba hari icyapa kigaragaza imikorere y'iri vuriro ndetse kigatanga n'ikaze ku barigana.

Aba ni abantu bamaze guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko, aba bantu bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bitewe n'ibihe byiza bagiranye ubwo bari mu mahugurwa.

Akenshi na kenshi usanga umuntu ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko ntabimenye kuko aba adashaka kwisuzumisha, ni byiza ko igihe wumva ubwonko bwawe budakora neza ugira uwo uganiriza bityo ukabona ubujyanama.

Aba ni abana bato cyane bambaye imyenda ishaje, ntibaheruka koga kandi bafite ibibindi bagiye kuvoma, abana bo mu miryango itishoboye usanga baba babayeho nabi, cyane cyane ko iwabo batabitaho bityo ubuzima bwabo ugasanga butameze neza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganirizwa, aba bari kuganirizwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko mu rwego rwo kugira ngo ufite ikibazo abaze maze bamugire inama abone ubujyanama.

Uyu ni umumama mwiza cyane. wuje ubwenge, ubwiza, yambaye ishati y'ubururu, akaba yambaye n'amarinete, imbere ye hari indangururamajwi aho ari gutambutsa ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, mu kigo nderabuzima. Bakaba bamaze guhabwa amahugurwa, ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Urabona ko bose batunguwe n'ibyo babwiwe.

Aba ni abana b'abanyeshuri bari mu ishuri, bakaba bari kumwe n'umurezi wabo. Bose bafite uburoso bw'amenyo bakaba babumanitse hejuru. Barishimye cyane kuko bagiye kujya bakorera isuku amenyo yabo bityo agahorana ubuzima bwiza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo ibikoresho, bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura uburwayi bw'amenyo mu gihe bari kurivura, haba ari ukurikura, kuryoza ndetse se cyangwa kurihomo.

Uyu ni umusore useka bigaragara ko yatangiye kuvurwa amenyo kandi akaba ari kugenda akira, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, uturindantoki tw'ubururu ufite igikoresho yiteguye gukoza mu menyo y'uyu musore.

Uyu ni umusore uryamye mu cyumba kivurirwamo amenyo, umuganga w'inzobere wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu ari kugenda agerageza kumwitaho, amusuzuma kandi anamuvura.

Aba ni abana bato cyane bambaye impuzankano y'ishuri, bafite uburoso bw'amenyo buriho umuti ndetse bafite n'udukombe mu ntoki bari koza amenyo yabo bishimye, ni nyuma yo gufata amafunguro ya saa sita bafatira ku mashuri.

Uyu ni umusore uri kugerageza gusukura amenyo ye akoresheje uburyo bw'urudodo, aho arukoza hagati y'amenyo bityo agakuramo imyanda uburoso bw'amenyo buba butabashije kumaramo amenyo ye akaba meza.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho. Iyi nyubako ikaba irimo amaserivisi agiye atandukanye. Aha ni aho bavurira uburwayi bw'amenyo. Hakaba harimo ibikoresho muganga yifashisha.

Uyu ni umwari ufite amenyo meza cyane, yambaye ingofero, afite agapalastike kariho akadodo, akaba agakoresha akuramo imyanda yaheze hagati y'amenyo, mu rwego rwo kugira ngo amenyo ye akomeze amere neza.

Uyu ni umwari mwiza cyane ufite amenyo meza, akaba afite imisatsi myiza cyane y'umukara izinze, ari guseka cyane, ni nyuma yaho muganga uvura amenyo amuvuriye bityo ahita agira amenyo meza cyane.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha ni ahavurirwa uburwayi bw'amenyo, hari akana gato cyane k'akazungu karyamye hasi, hakaba umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, akaba afite ibikoresho, ari kugenda asuzuma kano kana.

Uyu ni umwari mwiza cyane usa neza, akaba afite amenyo meza cyane yererana, ari kugaragaza amenyo ye nk'umwe mu bivuje bagirwa inama na muganga akazikurikiza, ubu ngubu amenyo ye akaba akimeze neza.

Uyu ni umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi. Akaba abyutse mu gitondo cya kare yambara amarinete ye, arangije afata icupa ry'umuti muganga yamwandikiye rituma amenyo ye amera neza. Arangije aza mu kirahure aho yogereza amenyo ye.

Iyi ni inyubako y'ikigo cy'ishuri hakaba harimo inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba ari gusobanurira akana kambaye impuzankano y'icyatsi kibisi ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo.

Ibi ni ibikoresho muganga w'amenyo akoresha mu gihe ari kuvura umurwayi, ibi bigatuma abantu bose bavurwa neza kandi bakabona ubuvuzi buziye ku gihe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari guhugurwa ndetse banakangurirwa kwirinda indwara z'amenyo, ni mu gihe bigaragaye ko abaturage mirongo irindwi ku ijana bafite ibibazo by'amenyo.

Uyu ni umwana ukiri muto afite imisatsi myiza cyane y'umukara ikora mu maso, yambaye isengeri y'umweru, akaba afite urudodo mu ntoki, ari gushinyiriza agenda agorora amenyo ye ndetse akuramo n'imyanda iri hagati y'amenyo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba hari akana gato kicaye ku ntebe, hari abaganga babiri bari kugasuzuma uburwayi bw'amenyo. Aba baganga bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu, umwe yambaye uturindantoki tw'umweru undi ntatwo yambaye bakaba bari gusuzuma uyu mwana.

Ibi ni bimwe mu bikoresho muganga w'amenyo yifashisha mu rwego rwo kugira ngo akore akazi ke neza, kandi abikore kinyamwuga atabangamiye umurwayi bityo na we abone ishimwe.

Uyu ni umuganga ndetse akaba n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ari gutunga urutoki rwiwe rwambaye uturindantoki tw'ubururu ku gishushanyo kiri hano, yerekana iryinyo rishobora kuba rifite ikibazo.

Uyu ni umusore wagiye kwivuza amenyo bamuha agakoresha ashyiramo mu rwego rwo kugira ngo ayarinde umwanda. Aka gakoresho agakuramo igihe agiye kuyasukura ndetse n'igihe agiye kurya, bityo bigatuma ahorana amenyo meza.

Aba ni abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano y'ubururu bose bafite uburoso bw'amenyo ndetse buriho n'umuti w'amenyo kuko bari koza amenyo yabo mu rwego kugira ngo bayarinde umwanda.

Abagabo babiri bari mu zabukuru bari gutambuka mu kayira gasashemo amatafari, bigaragara nkaho bari kuganira kandi bishimiranye, ni byiza ko abari mu zabukuru bahuza kandi bakumvikana kuko bibafasha kubaho neza.

Uyu ni umusaza wicaye mu ntebe, akaba ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'umutuku, akaba ari kumukoresha siporo mu rwego kugira ngo agorore ingingo ze z'amaboko, bityo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Uyu ni umukecuru uri kumwe n'umwana we ndetse n'umwuzukuru, bicaye mu ruganiriro imbere y'ameza, aho bari gufata amafunguro agiye atandukanye, yiganjemo imboga rwatsi, bose barishimye cyane, bari guseka.

Uyu ni umumama wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, akaba ari kumwe n'undi mumama w'umuforomo wambaye impuzankano y'ubururu, akaba ari kumupima umuvuduko w'amaraso, bose bari kurebana bagaseka, ni byiza kuvura umuntu wishimye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, yicaye mu ntebe ya purasitike y'umweru, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, imbere ye hari umwari w'umuforomo wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi uri kumufungira ibipesi, na we yambaye agapfukamunwa bigaragara ko bose bari kwirinda kwandura indwara.

Iyi ni inyubako irimo umupapa ukuze cyane wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, inyuma ye hari umuforomo uri kugenda umusunika baganira, uyu muforomo yishimiye akazi akora ko kwita ku bakozi.

Aba ni abantu bakuze bateraniye ahantu hamwe. Ni ihema ririmo abakecuru ndetse n'abasaza, bakaba bari kugenda babaganiriza babitayeho. Abantu bakuze iyo ubitayeho bakomeza kugira ubuzima bwiza bityo bakaramba.

Uyu ni umusaza ushaje cyane. Aha hari umusore ndetse n'inkumi bari kugerageza kumwegura. Kugira ngo ahagarare bityo na we agorore ingingo, abashe kuba yatambuka byibuze niyo yabikora inshuro ebyiri gusa.

Aba ni abamama bakuze cyane bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari kuganira, iki gikorwa kiba mu rwego rwo kugira ngo birinde ko bahura n'ihungabana ry'ubwigunge, bigatuma bagira ubuzima bubi.

Uyu ni umusaza wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, iyi pantaro yayifungishije umukandara ariko arawurereka, ari kumwe n'umuforomo wambaye impuzankano y'ubururu umuri inyuma, aho agenda areba uko atambuka gake gake yifashishije ibyuma.

Uyu ni umusaza uri kumwe n'umukecuru we, bahagaze imbere y'ameza. Bakaba bafite agacupa karimo umuti. Bakaba bari kugenda bawutunganya, mu rwego rwo kugira ngo bawunywere gihe bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Aba ni abasaza bagiye batandukanye, bicaye mu ntebe nziza cyane z'imisego. Buri musaza yambaye ikanzu, ingofero ndetse kandi bagiye bafite n'inkoni. Bigaragara ko bari mu birori by'ubukwe kuko imbere yabo hari n'abandi bicaye mu ihema.

Uyu ni umukecuru ukuze akaba ari muri siporo, afite utwuma twifashishwa mu gihe umuntu agorora ingingo ze, uyu mukecuru akaba akuze akora siporo, bigaragaza ko ubuzima bwe bumeze neza.

Umusaza wambaye ishati ndetse akaba yambaye n'umupira, afite ikayi n'ikaramu yicaye imbere y'ameza, akaba afite ukuntu ari kugenda yandika anasoma. Bene aba basaza baba bashoboye kandi bagakora vuba.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'amarinete, afite urudigi runini, ndetse yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, hakaba hari umuforomokazi mwiza cyane w'inzobe, wambaye impuzankano y'ubururu, wifubitse, uri kugerageza kumufasha gutambuka.

Umusaza wambaye ishati iciyemo uturongo ateruye akana k'akuzukuru ke gafite igipupe mu ntoki, abantu bakuze bishimira gukina n'abuzukuru babo kuko bituma na bo akanyamuneza kiyongera.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye ku meza. Imbere yabo hari agacupa k'umuti ndetse hari n'ikirahure kirimo amazi. Umukecuru afite agapapuro mu ntoki naho umusaza afite telefone igendanwa, bari kurebera hamwe, uko uyu muti ukoreshwa.

Uyu ni umubyeyi wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba afite isahani iriho amoko y'ibyo kurya agiye atandukanye, akaba afite n'ifoke mu ntoki, aho yishimye cyane, ababyeyi bakuze bakunze kwiberaho mu buzima bworoshye.

Uyu ni umumama wicaranye n'abuzukuru be bose barishimye cyane, ni abuzukuru benshi cyane. Abantu bakuze iyo bari kumwe n'umuryango wabo cyane cyane abana babo ndetse n'abuzukuru baba bishimye cyane.

Aba aba ni abadamu batatu bakuze, bicaye mu nzu mu ruganiriro, bakaba bari imbere y'ameza, bari gukina umukino w'amakarita bose baseka kandi banezerewe, inyubako barimo inkuta ziriho irangi ry'umweru.

Iyi ni inyubako iteraniyemo abamama batatu bigaragara ko bakuze barangariye muri telefone, uri hagati ni we uyifite. Abandi bose bari kurebamo. Abantu bakuze bakunze kurangarira inkuru zisekeje.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, afite ubwanwa burimo imvi n'agasatsi gake karimo imvi, umuganga mwiza cyane wambaye impuzankano y'umweru, yamuhaye akantu kagorora imitsi, ari kugafata maze akamufasha kugorora imitsi y'ukuboko.

Umukecuru uri gutekera ahantu hasa nabi cyane, acanye ku mashyiga isafuriya ipfundikije indi ndetse zose zisa umukara ari gucana inkwi, akaba atekeye hagati y'imihati, iyi mihati niyo yubatse urugo rwe.

Uyu ni umumama ukuze cyane afite imvi mu musatsi we yambaye amarinete. Ari kumwe n'umukobwa we bari gutegura amafunguro aho bari gukata imboga imbere yabo hari imboga rwatsi, inyanya, urusenda ndetse na pavuro.

Uyu ni umusore w'umuforomo ufite ubwanwa bwinshi cyane, akaba yambaye agashati keza cyane k'ubururu, ari kumwe n'umubyeyi na we bigaragara ko akuze, ari kumwitaho mu rwego rwo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Uyu ni umumama wambaye ikanzu yo mu gitenge bigaragara ko akuze cyane. Akaba ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano y'umutuku ufite icyumvirizo mu ijosi, akaba ari gusuzuma uyu mumama umuvuduko w'amaraso nkuko turi kubireba.

Aba ni abantu bakuze, bakaba bari mu gikorwa cyo gukora imyitozo ngororamubiri, uyu ni umumama ubari imbere, ufite agakoresho kagorora ingingo, akaba ari kukazamura mu rwego kugira ngo agorore imitsi y'amaboko ye.

Uyu ni umugabo wambaye ishati itukura, ndetse n'ipantaro ya kacye, akaba ari kuganira n'umuforomokazi uri kumusuzuma umuvuduko w'amaraso, uyu muforomokazi yambaye impuzankano y'ubururu, ndetse afite imisatsi myiza cyane inyerera.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo umugabo ukuze cyane wambaye amashuka. Uyu mugabo ari kwitabwaho n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu ndetse ufite n'imisatsi iboshye, aba bantu bakuze bitabwaho.

Uyu ni umugabo usheshe akanguhe. Afite ubwanwa buke cyane ariko burimo imvi, akaba ari gusuzumwa umuvuduko w'amaraso, n'umwari mwiza cyane w'inzobe ufite imisatsi myiza, akaba yambaye impuzankano y'umweru.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nzu ku meza barigukina imikino igiye itandukanye. Ni ibyiza iyo umuryango usazanye kuko usanga bashaje neza baba bafite ubutunzi bwo bikaba akarusho kuko nta makimbirane aterwa n'ubukene baba bafite.

Abantu beza, abantu bafite ubuzima, ni bo batura mu gihugu, bakagituramo bishimye, ibi ni ibiganza bibiri biri kuramukanya bigira biti:" gira ubuzima Rwanda", izi ni zimwe mu ngamba zafashwe na Leta zo gusigasira ubuzima ndetse no kuburinda.

Uyu ni umumama wambaye agapfukamunwa ndetse n'ijire y'umukara igaragaza ko ari umuganga ndetse akaba ari kumwe n'abandi baganga bambaye impuzankano y'ubururu, aho bari kugenda bose bagerageza gufata ingamba zo gusigasira ubuzima bw'ababagana.

Iri ni ihuriro ryateranije inzobere mu by'ubuvuzi, zaturutse hirya no hino ku isi aho bari gufatira hamwe ingamba zo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende, iyi nama yabereye i kigali ku wa makumyabiri z'ukwacumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, ikaba iteraniyemo abantu bagiye batandukanye, harimo inzobere ziri kwihugura, bakaba bari gufatira hamwe ingamba zijyanye n'uburyo ubuvuzi bwatezwa imbere, bityo abaturage bakabaho batekanye.

Aba ni abana bicaye ahantu hamwe, bakaba bari kumwe na mama wabo ndetse na papa wabo, bari kubaganiriza, aho babaganiriza kugira ngo ubwonko bwabo bukore neza bityo bazavemo abo u Rwanda rw'ejo rwifuza.

Aha ni ahantu heza cyane nyaburanga, nyuma y'uko Leta y'u Rwanda ifashe ingamba zo guha Igihugu ubwiza, bahazanye ikintu bita ikoso bityo bakora ikiyaga cyiza cyegeranye n'amazu meza.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kuganira ndetse bafata n'ingamba mu bijyanye n'ubuvuzi, ni nyuma yuko hagaragaye indwara z'ibyorezo maze bahagurukira hamwe mu rwego kugira ngo bafatire imyanzuro hamwe.

Iri ni ihuriro ry'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, iri huriro rikaba ryarabaye ku nshuro ya kabiri, rikaba ari ihuriro mpuzamahanga, hari umugabo w'umuzungu imbere ye hari indangururamajwi, akaba ari kubagezaho ikiganiro.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ahantu hamwe. Bakaba baje mu mahugurwa, bagahugurwa ndetse bagafata n'ingamba zo kwirinda uburwayi. Bose baricaye. Barishimye kandi bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyorezo cy'ubushita bw'inkende kikimara kugera mu Rwanda, Leta yafashe ingamba zo gukumira ndetse no kugerageza kukirinda, ishakisha inkingo zacyo vuba, izi ni zimwe mu nkingo zabonekeye ku gihe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inkuta ndende kandi zimeze neza, hakaba hariho amagambo agaragaza yuko bavura uburwayi bw'amaso kandi bagatanga ubuzima buzira umuze.

Aha ni mu kigo cy'amashuri aho abayobozi basuye abanyeshuri, hari umwarimu wambaye impuzankano akaba ari gusobanurira uyu mwana uko hakorwa ubuvuzi bw'amenyo ari kugenda amwerekera.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru, ndetse bakaba bagaragaza ahari icyumba kivurirwamo indembe, bamwe bavurwa mu buryo bwihuse badahagaze ahantu na hamwe bagahita bahabwa serivisi.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, irageretse kandi ikaba isize amarangi meza. Harimo ubusitani bwiza cyane ndetse n'uduti twiza dutanga umuyaga n'amahumbezi. Bikaba bigaragara yuko iyi ari inyubako y'ivuriro ry'akarere ka Nyarugenge.

Aya ni amaraso ahabwa indembe, ari mu nyubako y'ivuriro, aya maraso yahawe abantu mu rwego rwo kugira ngo babazahure kuko ahabwa abageze kure cyane benda gupfa.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma abarwayi, ndetse hakaba harimo n'igitanda cyiza cyane kiriho materara ndetse n'umusego abaryamishaho mu gihe ari kubasuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi cyane cyane abagize ibikomere ndetse n'ibindi bibazo byo mu ngingo, iyi nyubako ikaba irimo isima nziza ndetse n'inkingi.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isize irangi ry'umweru ku nkuta ndetse n'icyatsi kibisi, harimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse hakaba n'ibikoresho bifashisha mu gihe bari kuvura.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe ku buryo bugezweho, iyi nyubako igereretse inshuro ebyiri, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu mu baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, hakaba hakoreramo abaganga bagiye batandu aho abarwayi bavurirwa ku gihe.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, muri iyi nyubako hari agatebe keza abantu bategererezaho ubaha ubufasha. Iyi nyubako ikaba isize irange ry'umweru, ifite inzugi nziza cyane zifunzwe mu buryo bufatika kandi bigaragara ko iyi nyubako irinzwe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, isize irangi ryiza cyane ry'umweru. Hasi hakaba hari amakaro ndetse inzugi zayo ziriho ibirahure, aho buri muryango bagenda bagaragaza numero yawo ndetse n'ikiwukorerwamo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro irimo urujya n'uruza rw'abantu, bari kuzengurukamo baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ndetse yambaye n'agapfukamunwa ariko kureba mu mashini irihano.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba ifite inkuta zisize irangi ry'umweru, harimo matera zishasheho amashuka y'icyatsi kibisi, hakaba harimo n'amarido agenda atandukanya igitanda n'ikindi, mu rwego kugira ngo umurwayi bamuvure mu muhezo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba yifotorejweho n'abamama bane ndetse n'umusore umwe, aho bigaragara ko aba ari abakozi bo muri iri vuriro, kandi bakaba bishimana igihe bari kumwe.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa cyane cyane mu gusuzuma ibibazo bigiye bitandukanye nk'ibyo mu ngingo ndetse n'ibindi bikomeye.

Uyu ni umumama uri mu nyubako y'ivuriro, iri vuriro rikaba rifite inkuta zisize irange ry'umweru, uyu mumama aryamye ku gitanda hakaba hari abantu babiri umugabo n'umugore bari kugerageza kumwitaho ariko ubuzima bwe buri mu marembera.

Inyubako nziza cyane yivuriro iyi nyubako yubatswe mu buryo busanzwe yubakishijwe amatafa yarahiye, isakajwe amabati y'ubururu, itize irangi ryyumweru mo imbiri hakaba harimo ubutani bwiza cyane burimo n'indabyo zifite ibara ry'umuhondo. Hakaba hakorotirijwe ibyuma.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye muganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma abarwayi, hakaba hagiye hagabanyijemo utwumba hifashishijwe utuntu tw'ubururu tugaragara, hakaba harimo udutebe muganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe neza cyane. Aba ni abantu bamwe mu nzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bari bayisuye ndetse baje no kuyitaha. Bari gufata ifoto y'urwibutso, bikagaragara yuko ari inyubako y'ibitaro bya Rwamagana.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ndetse hariho n'utwuma turinda abantu kuba bagwa hasi. Isakaje amabati y'ubururu, hakaba ari amagambo agaragaza ko ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya, hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo amatara menshi cyane, harimo isima, hakabamo ibyumba bigiye bitandukanye abaganga basuzumiramo abarwayi bityo bakabaha imiti bitewe n'uburwayi bafite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu batanga serivise zigiye zitandukanye aho umurwayi ubagannye bamuvurira ku gihe kandi agakira vuba.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite inkuta zisize irangira ry'umweru. Harimo intebe nziza cyane ndetse n'ameza muganga ashobora kwicaraho ndetse n'umurwayi akicara maze bakaganira akabasha kumva ikibazo afite.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha ni ahabikwa amaraso yakusanyijwe ahantu hagiye hatandukanye, igikorwa cyo gutanga amaraso kiba mu duce twose tugiye dutandukanye tw'igihugu, bityo abafite ubumuntu bakayatangira ubuntu.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, kikaba cyubatswe mu buryo bugezweho kuko inzu zaho zisize irangi ku nkuta, zisakaje amabati y'ubururu, hari ubusitani bwiza cyane burimo pasiparumu ndetse n'ibiti bikiri bito cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isize amarangi y'umweru, hasi hari udutebe ndetse n'udutanda muganga yifashisha mu gihe agiye gusuzuma umurwayi, hakaba hari akabati gafite umuryango w'umuhondo.

Izi ni inzobere mu by'ubuvuzi zikaba ziteraniye hamwe aho ziri guhugurana mbere yuko zijya mu kazi, abaganga babigize umwuga uko bukeye n'uko bwije baba bakeneye amahugurwa kugira ngo banoze umurimo wabo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, aha ngaha ni ahatangirwa imiti, hakaba hari amayetajeri menshi cyane apanzemo amoko y'imiti agiye atandukanye, hari iri mu dukarito, hari iri mu ducupa ndetse hari n'indi iri hakurya.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho mo imbere hakaba harimo ubusitani bwiza cyane bugizwe n'ibyatsi bya pasiparumu ndetse hakaba harimo n'ibiti byiza bitanga umuyaga.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho. Mo imbere hakaba harimo intebe nziza cyane z'umukara ndetse harimo n'ameza. Harimo n'izindi ntebe nziza cyane zirimo imisego. Ku nkuta hakaba hasize irangi ry'umuhondo.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti, hakaba hatangirwa serivise zijyanye no gusubiza abantu ubuzima aho baguha umuti ukeneye mu rwego rwo kugira ngo ukire vuba. Aha rero hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari farumasi yitwa Intego kandi bakaba batanga ubuzima.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, hakaba hari akana karyamyemo bari kuvura, hari mukuru wako waje kukavuza, hakaba n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, ari kugerageza gupfuka aka kana mu ijosi, karishimye ndetse na mukuru wako arishimye.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, isize irange ku nkuta ahantu hose, isakaje amabati y'ubururu, izengurutswe n'ibiti byiza cyane birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako y'Ikigo Nderabuzima, yubatswe mu buryo bugezweho, iri vuriro rifite ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi bitohagiye. Hakaba hari n'uduti dutanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bahagana.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo igikoresho cyifashishwa basuzuma, ibizamini. Aho gikurura indwara zitagaragara ndetse udashobora no kubona ukoresheje amaso.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye. Ikaba yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Ifite inzugi zifite ibirahuri by'umukara ndetse ibyuma by'umweru. Hasi hakaba hashashe amakaro.

Uyu ni umugabo waje kwivuriza ku ivuriro riri hano. Nyuma yo guhabwa serivisi aza kwiyicarira munsi y'igiti cy'inganzamarumbo kiri hano kugira ngo abanze afate ku muyaga ndetse n'amahumbezi, maze abone uko asubira mu rugo.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, inkuta zisize irange ry'umweru, hari indabyo nziza cyane ndetse hakaba n'akayira gasashemo amapave, hari icyapa kigaragaza ko iyi ari inzu y'inyubako y'ivuriro ry'Akarere ka Nyarugenge.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, harimo umusekirite ufungurira imodoka zinjiramo, harimo urujya n'uruza rw'abantu baje gushakamo serivisi ndetse hakaba icyapa kinini kigaragaza serivisi zitangirwa hano n'amasaha zitangirwaho.

Uyu ni umugabo wambaye impuzankano y'abaganga, iri mu ibara ry'umweru, yicaye mu ivuriro ririmo igitanda kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'agatebe yicayeho kariho ibara ry'icyatsi kibisi hakaba hari icyuma yifashisha asuzuma abarwayi.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho ikaba igeretse gatatu, iriho amagambo yandikishijwe ibara rya oranje agaragaza ko ari ivuriro nyafurika kandi rivura indwara zigiye zitandukanye ndetse haba ku bantu ndetse no ku matungo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba yateraniyemo abantu bagiye batandukanye, harimo abajyanama b'ubuzima, hakabamo abaforomo, hakabamo abarwayi ndetse hari n'umu episkopi wagiye kubasengera.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ifite inkuta zizize irangi ryiza cyane, harimo igitanda kiriho matera hakabamo ibikoresho byose bigiye bitandukanye, abaganga bifashisha mu gihe basuzuma abarwayi, hejuru hari akabati karimo imbuto umurwayi ashobora kurya.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati. Hasi hari isima. Ikaba ifite inzugi z'umuhondo, harimo n'irangi ry'umuhondo mo imbere. Hakaba intebe bicaraho mu gihe baje bategereje abinjiyemo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo ibitanda byinshi cyane baryamishaho abarwayi mu gihe bari kubavura babakurikirana babamo, buri gitanda kiriho umuti ndetse n'imashini muganga yifashishije igihe ari kuvura.

Iyi nyubako nziza cyane y'ivuriro, irimo umwari wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, harimo ibitanda byinshi cyane biryamishwaho abarwayi igihe bari kubavura babitaho badataha, hakaba harimo amarido y'ubururu atandukanye, igitanda kimwe ndetse n'ikindi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iteraniyemo abaganga bagiye batandukanye. Harimo umusore wambaye amarinete ndetse n'ishati y'umweru. Bari gusuzuma ndetse banareba ko nta muvuduko w'amaraso afite.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima, yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba harimo abaforomo bambaye impuzankano. Harimo ibitanda biryamyeho abarwayi, amatara ari kwaka. Hakaba hariho utwambi tugaragaza aho winjirira ndetse n'aho usohokera.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho kuko yubakishijwe ibirahure. Hakaba hariho amafoto y'umwana w'umukobwa wambaye amarinete. Bikaba bigaragara ko hano batanga serivise z'ubuvuzi bw'amaso.

Iyi ni inyubako y'ivuriro imeze neza cyane, ku nkuta hariho irange ry'umweru hakaba hashushanyijeho amoko y'utunyamaswa agiye atandukanye. Aha hakaba hari icyuma gisuzuma umubiri wose, aho muganga akuzanamo akagusuzuma.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho. Iyi nyubako igeretse inshuro enye. Hakaba harimo ibendera ry'umuryango wunze ubumwe ndetse hakaba hari n'amagambo ari ku cyapa kiri ku muhanda agaragaza izina ry'iri vuriro ndetse nuko rikora.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ikaba iteraniyemo abamama, abasore ndetse n'abapapa. Aho barikugenda bahabwa amahugurwa ku bijyanye n'indwara zigiye zitandukanye ariko bakaba baje bazanywe no kwivuza.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, yubatswe mu buryo bugezweho, iyi nyubako ikaba ifite ibirahuri byiza cyane by'umukara, isize iturangi tw'ubururu ndetse n'umweru, harimo ubusitani bwiza cyane ndetse hakaba n'umukindo muremure, utanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aha ni ahabereye igikorwa cyo gupima ingano y'abana bakiri bato bari hagati y'amezi atatu n'atandatu, uyu ni umwana uri ku munzani umanitse mu nyubako y'ivuriro, hakaba hari umubyeyi wamuzanye uri kumwitegereza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro hakaba hari umuntu wicaye ku gatebe, hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ibaji mu ijosi, akaba yambaye uturindantoki tw'umweru, agiye gutera urukingo uyu muntu mu rwego rwo kugira ngo amukingire uburwayi.

Iyi ni nyubako y'ivuriro. Ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, igeretse inshuro eshatu. Hanze yayo hari kugaragara icyapa kiriho izina ry'iryo vuriro. Bakagaragaza yuko ari ivuriro rya Sangwa. Hakaba hariho serivisi batanga ndetse n'ibigo by'ubwishingizi bakorana na byo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, aha ngaha ni aho babika imiti. Hari ama etajeri agiye ageretse inshuro enye cyangwa eshanu, hakaba harimo imiti iri mu dukarito ndetse n'iri mu ducupa igenda ihabwa abarwayi mu buryo butandukanye.

Iyi ni inyubako y'ikigo nderabuzima yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'ubururu, isize irange ry'umuhondo, harimo abantu baje kwivuza, bakaba bicaye aho basuzumira ibizami.

Umusaza wambaye ishati y'umutuku yicaye ku ntebe yicaranye n'umuforomokazi mwiza cyane w'umwari ukiri muto wambaye impuzankano y'ubururu, akaba ari kumusuzuma umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe uko amaraso ye atembera mu mubiri.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite inkuta zisize irange ry'umweru, hakaba harimo icyuma cyifashishwa mu gihe hasuzumwa abarwayi baba bari gusuzuma indwara mu mubiri wose.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro, inkuta zigize irangi ry'umweru, hakaba hari amadirishya ariho ibirahuri by'umukara, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aha naho abaganga bapimira ibizamini bigiye bitandukanye bityo bakabasha kubona uburwayi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho igereretse inshuro eshanu. Hakaba hari imodoka iri gusohokamo. Ni umuntu uvuye kwivuza. Imbere yayo hakaba hicaye umugabo mu ntebe ya pulasitike ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza serivisi zitangwa n'iri vuriro.

Iyi ni inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, hari umumotari uhahagaze wicaye kuri moto, akaba yambaye ingofero irinda umutwe, hari umusore wambaye agapira k'umweru ndetse iyo forumasi irafunguye, hejuru hakaba hari icyapa kigaragaza izina ryayo.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hariho igishushanyo cy'ijisho ndetse n'udupupe tumanitse hejuru, bikaba bigaragara ko hano hatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'amaso.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite amakaro hasi ndetse nk'uko bigaragara aha ngaha bagaragaza yuko hari intebe y'amakuru, aho wicara maze ukabaza ugasobanurirwa.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ifite inkuta zisizeho irangi ry'umweru, parafo ikaba isa kake ndetse n'umuhondo, harimo itara riri kwaka, hasi hakaba harimo udutanda tw'umukara ndetse n'utubati muganga abikamo ibikoresho igihe amaze kuvura.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubatswe ku buryo bugezweho, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye mu imbere muri iyi nyubako hakaba hari ubusitani bwiza cyane burimo pasiparumu, hakaba hari uturabyo twiza ndetse n'uduti tukiri duto, utuyira tujyamo dusashemo amapave.

Iyi ni inyubako y'ivuriro, ikaba yubatswe, ikaba ikorotirijwe urukuta rw'amatafari ahiye, inyuma yayo hari icyapa kigaragaza yuko ari umujyi wa Kigali ndetse kikaba ari ikigo nderabuzima, aho bagaragaza ko aka ari agafureshi kajyayo.

Iki ni ikirahure kirimo amazi meza cyane ari kuva mu ijage, aya mazi akaba yifashishwa aho umuntu avuye muri siporo ayanywa, bigatuma agira ubuzima bwiza, umubiri we ukamererwa neza.

Iki ni igikoresho cyifashishwa n'abantu bakora siporo, aho kibafasha kumenya imbaraga bari gukoresha ndetse no kumenya ingano ya siporo bari gukora, bigatuma umubiri wabo umera neza kuko bakora iziringaniye kandi ziri mu rugero.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe uri muri siporo, bityo igihe ugize ikibazo ukaba wabona ubuvuzi bw'ibanze hakiri kare, hakaba harimo bande, harimo ikinya, ndetse hakaba harimo n'inshinge zigiye zitandukanye.

Aka ni agatanda kifashishwa mu gihe bakura umuntu ahantu hamwe bamujyana ahandi yagize ikibazo gikomeye ku buryo aba atabasha guhagarara, kakaba kari mu mabara y'umuhondo. Hariho imishumi y'umukara.

Umusore ndetse n'inkumi bose bavuye muri siporo, bafite amacupa y'amazi, inkumi yaryamye mu mugongo w'umusore maze bose barararamye bari kunywa amazi, siporo ni ubuzima tujye tuzikora kandi tuzikorane n'abacu.

Aya ni amoko y'ibikoresho ndetse n'imiti ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo, bityo bigatuma habaho kwirinda ikibazo icyo ari cyo cyose wagira mu gihe wakomereka ntuhite wihutira kujya kwa muganga ahubwo ukabanza kwivura.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya siporo, hari umugabo uhagaze ku rwego uri kugenda ashyiraho utuntu tw'imitako, ndetse hari n'undi uri hasi uri kumuhereza, aha ahantu hakaba hasa neza cyane.

Aka ni akana gato cyane kari kumwe n'umubikira wirabura ndetse hakaba hari umumama w'umuzungu ari kugenda agorora kano kana, agasimbiza ndetse anagakoresha siporo mu rwego rwo kugira ngo ingingo zako zigororoke.

Uyu ni umuntu wagiriye impanuka muri siporo, hakaba hari umuhungu ndetse n'umukobwa bakora muri Croix Rouge nka kimwe mu kigo gitanga ubutabazi bw'ibanze bahise bihuta, bakaba bari kumuha ubufasha bwihutirwa.

Uyu ni umusore wambaye isengeri y'icyatsi kibisi. Afite amaboko manini cyane, akora siporo koko biragaragara. Afite icupa ry'amazi ari kuyimena mu maso nyuma yo gukora siporo akananirwa cyane. Akeneye kugarura ubuyanja.

Abana ni abasore bane bari mu myitozo ngororamubiri bari kwiruka bazenguruka ikibuga cy'umupira w'amaguru, bose bambaye impuzankano ya siporo kandi yemewe igezweho aho bari gukorana umurava.

Uyu ni umwari uri muri siporo, aha bakaba bagaragaza ibiribwa umuntu ukora siporo ashobora kurya kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, bagaragaje amoko y'imbuto agiye atandukanye arimo imineke, amatunda, pome, ndetse n'intababarana.

Uyu ni umusore wambaye isengeri y'umweru, akaba ari gukora siporo yihagarariye mu mbuga y'inzu ye, ari kugerageza kugorora amaboko, umugongo ndetse n'amaguru, ibi abasiporutifu bose bakunze kubikora, mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umugabo wavunitse akaguru ubwo yari ari muri siporo mu museso, aho yicaye ku gatanda kwa muganga. Hari umwari w'umuforomo uri kugenda umwitaho aho ari kuzirika bande y'ubururu ku kuguru kwe kw'iburyo.

Umusore wambaye umupira w'ingofero, akaba afite icupa ry'amazi, ari kuyanywa yiyicariye hasi, ni nyuma y'aho asoje igikorwa cya siporo, maze akuramo inkweto azishyira mu gikapu cy'umukara afite, arangije yicararira hasi yinywera amazi.

Uyu ni umuntu uri muri siporo, yambaye agapira k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara, ari kugorora amaguru ye, amaboko ndetse n'umugongo, yazanye akaguru k'iburyo agashyira imbere, maze ak'ibumoso akajyana inyuma, akaboko k'ibumoso ke agakoza hasi, ak'iburyo arakazamura.

Aya ni amoko y'imiti ushobora kwiyifashisha mu gihe uri muri siporo, ni imiti ifungiye mu dukarito ndetse no mu ducupa, aho abayikeneye bayikoresha, kandi ikabafasha, ingingo zabo zikamera neza.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, yambaye ekuteri mu matwi, afite icupa ryamazi ari kugenda arinywa, avuye muri siporo, iyo ukoze siporo biba ari ngombwa kunywa amazi, mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumera neza.

Aya ni amoko y'imiti ushobora kwifashisha, mu mu gihe uri muri siporo, harimo umuti ushobora gutera ku mubiri wawe ntiwumve ububabare, ndetse hakaba hari n'undi usiga ku mubiri wawe igihe hari urugingo rwakomeretse.

Ibi ni bimwe mu byo umuntu aba akeneye mu gihe yiyemeje gukora siporo, aha hari akuma kongera umubiri, hakaba metero ashobora gukoresha yipima, hari icupa ry'amazi ashobora kunywa igihe asoje ndetse n'imbuto yarya.

Uyu ni umusore wagize impanuka ubwo yari muri siporo akubita ivi rye hasi, uyu musore akaba ari kugerageza kugorora ingingo zangiritse kugira ngo abashe gutambuka nta kibazo.

Iki ni ikirahure giteretse hasi kikaba kirimo amazi, ni amazi meza cyane asukuye aho abantu bayanywa bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza kandi bakanezerwa mu gihe barimo barakora siporo.

Uyu ni umuntu wakomeretse ibiganza bye byombi, ubwo yari ari muri siporo, ni nyuma yuko anyereye maze akubita amaboko ye yose hasi, muganga akaba ari kugerageza kumushyiraho ibipfuko mu rwego rwo kugira ngo ingingo ziwe zigororoke.

Aba ni ababyeyi bateraniye ahantu hamwe, hakaba hari akana kari kugorora amaguru yako, uyu mubyeyi yambaye imyenda yo mu bitenge, akana ke kakaba kambaye udusogisi ndetse agakanzu n'agapira k'amaboko maremare.

Uyu ni umusore wambaye isengeri y'icyatsi kibisi ufite amaboko manini, afite icupa ry'amazi ari kuyanywa araramye, yari asoje siporo arangije abanza kunywa amazi, mu rwego rwo kugira ngo agarure amazi yatakaje umubiri we umere neza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha mu gihe wagiriye impanuka muri siporo, ushobora gufata inkoni ukagenda uyicumbaho ukava ahantu hamwe ukajya ahandi bityo ukagororoka.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha, mu gihe ugize impanuka uri muri siporo. Hakaba harimo bande ziri mu mabara agiye atandukanye. Umutuku, umukara ndetse n'ubururu, aho ushobora kuyifashisha maze ugakira.

Umusore wazindutse cyane akora siporo. Yambaye agapira k'amaboko magufi, afite amaboko manini cyane abyibushye, akaba yambaye ekuteri mu matwi. Afite icupa ry'amazi, ari kugenda ayanywa buke buke atambuka.

Aba ni abari babiri bari mu gikorwa cya siporo, umwe yambaye agasengeri k'ubururu n'agakabutura k'umukara, undi yambaye agasengeri ndetse n'agakabutura k'umukara, harimo agakariso k'umuhondo, bari gukorera siporo ahantu heza cyane.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ubururu, akaba afashe ukuboko kwe ahavunitse, yavunitse ubwo yari muri siporo none ari kugerageza kugorora uru rugingo kugira ngo rwongere rukore neza,

Icupa ririmo amazi meza cyane asukuye, mu gihe twakoze siporo ni byiza ko tuba dufite n'amazi yateguranywe isuku ndetse n'ubuhanga, bityo twatoza tukayanywa, kugira ngo umubiri wacu ugarure amazi watakaje.

Uyu ni umwari wambaye agasengeri gato cyane k'umukara, yambaye ipantaro imufashe, yicaye ku gatapi mu nzu, imbere ye hari mudasobwa ari kurebamo siporo ari gukora ndetse hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ari bukoreshe.

Iyi ni imipira y'imikino igiye itandukanye, mu gihe buri muntu wese aba akwiye kugira umukino yisangamo, mu rwego rwo kugira ngo agorore ingingo ze, kandi imibiri ikore neza bitewe na siporo.

Uyu ni umusore uvuye muri siporo akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi, afite umupira wo gukina mu ntoki, gukora siporo ni iby'ingenzi cyane cyane ku rubyiruko, kuko bibafasha gukura amagufwa yabo akomeye.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abantu bari muri siporo, aho wicara muri kano kagare kakagorora ingingo zawe, bityo umugongo ukagenda umeze neza cyane uzira amavunane ndetse n'ibindi bibazo.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'ubururu, akaba yambaye n'isaha ku kuboko, afite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kuyanywa bigaragara ko asoje siporo, akaba ari kugerageza kugarura imbaraga yatakaje ubwo yazikoraga.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu gihe cya siporo, aho ugikoresha akora kimwereka imbaraga ari gukoresha, akamwereka ingufu ari kugenda atakaza ndetse n'izo abona, aho bamwereka n'ibirometero yakoze.

Uyu ni umwari wambaye agasengengeri k'umweru gato cyane ndetse n'ipantaro y'umukara imufashe, yicaye hasi mu nzu y'uruganiriro yarambuye aga tapi, arimo arakora siporo agorora umugongo, amaguru ndetse n'amaboko.

Umwari wambaye agasengeri gato cyane k'umweru yambaye ipantaro y'ubururu imufashe yarambuye agatapi mu nzu ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho agorora amaboko, umugongo ndetse n'amaguru, imbere ye hakaba hari ururabo ndetse ku rukuta hakaba hariho irange ry'umweru.

Ibi ni bimwe mu bikoresho ushobora kwifashisha bigatuma ugira ubuzima bwiza. Ibi ubikoresha mu gihe uri muri siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, aho bigufasha kumenya ikigero wakozeho siporo.

Uyu ni umusore wagiriye ikibazo muri siporo, aryamye ku gatanda hakaba hari umuganga wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro uri kumukandira imitsi ye kugira ngo igororoke bityo abashe kubona uko atambuka.

Iki ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, ibi bikoresho birinda ingingo cyane cyane ingingo zo ku mutwe w'umuntu kuko acyambara, maze kikamufasha kuba yarinda zimwe mu ngingo ze ntizigira ikibazo.

Iki ni ikirahure giteretse hasi, bakaba bari gusukamo amazi ari guturuka mu icupa rirerire, ni amazi meza cyane yatunganyijwe, amazi ategurirwa umuntu wagiye muri siporo, mu rwego kugira ngo aza ayanywe ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Uyu ni umusore wambaye isengeri y'umukara irimo akabara ka oranje, akaba ari mu myitozo ngororamubiri, ari kuzamura amaboko ye agorora umugongo ndetse n'amaboko, mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'imbangukiragutabara. Imbangukiragutabara ni zimwe mu modoka zifashishwa, aho zikura abarwayi mu ngo cyangwa se mu bitaro bimwe na bimwe zibajyana ahandi mu rwego rwo kugira ngo babone serivisi z'ubuvuzi.

Uyu ni umwari ukiri muto yambaye agasengeri gato cyane, akaba afite telefone ye ku kizigira cy'ukuboko. Yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso. Imisatsi ye iraziritse ndetse yambaye na ekiteri mu matwi ari gukora siporo.

Aka ni agatanda bifashisha mu gihe baterura umurwayi, bamukura ahantu hamwe bamujyana ahandi, gakunzwe gukoreshwa cyane ahantu habereye siporo ndetse n'imyidagaduro, aho ugize ikibazo atabarwa n'abakozi ba Croix rouge.

Aka ni kamwe mu dukoresho twifashishwa mu gihe hagororwa ingingo, iyo uri muri siporo ushaka kugorora umugongo, wicaraho maze ukakagendesha kakagutwara ukagaruka umugongo wawe wagororotse.

Hari uburyo bwo kurinda ikiganza mu gihe cyahuye n'imvune, aho ushobora kukizirikaho bande nuko kikagororoka neza, maze mu gihe cy'amasaha make ingingo zikaba zasubiranye.

Aka ni agasanduka karimo ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha mu gihe agiye muri siporo. Iyi ni imwe mu miti y'ibanze abantu bakora siporo bagomba kuba bafite mu rwego rwo kugira ngo bizere umutekano w'ubuzima bwabo.

Aka ni agatanda kifashishwa n'abantu bateraniye ahantu hamwe kugira ngo nihagira ugira ikibazo ntabashe gutambuka, bamushyireho maze bamugeze aho ahererebwa ubuvuzi bw'ibanze ndetse ni biba ngombwa bamujyane n'aho bamuvurira.

Aya ni imoko y'imiti ndetse n'ibikoresho ushobora kwifashisha mu gihe ugiye muri siporo mu rwego rwo kugira ngo ube wabasha kwiha ubutabazi bw'ibanze mu gihe uhuye n'impanuka, aha harimo ibigabanya ububabare, ibihambira ingingo ndetse n'ibindi.

Uyu ni umusore wambaye isengeri akaba afite icupa ry'amazi ari mu gikorwa cya siporo, aho ananiwe abanza guhagarara ngo afate ku mazi, ahagaze ahantu heza cyane hari ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo. Aka ni agakarito karimo umuti. Ndetse iyi ni bande ushobora kuzirika ku kuguru kwawe, bityo urugingo rwari rugiye gutana n'urundi rugasubirana.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo zigiye zitandukanye. Iyi nyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba irimo icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa, iki gikoresho rero kiboneka hake kandi abakora izi siporo baravurwa bagakira.

Uyu ni umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki, ari muri siporo ari gukorera ahantu heza cyane hari ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, bigatuma abakora siporo bahakunda.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo, hakaba harimo umusore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afite umupira mu ntoki, imbere ye hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu gihe hari kuzimywa inkongi y'umuriro igihe ibaye.

Uyu ni umwari wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, yarambuye agatapi mu nzu, akaba ari kugorora umugongo ndetse n'amaguru, yarambuye ukuguru kwe kw'ibumoso, arangije ahina ukw'iburyo, abari nabo bagomba gukora siporo.

Uyu ni umusore uri gukorera siporo ahantu heza cyane, yambaye imyenda yabugenewe ikoranwa siporo agapira k'umukara, agakabutura k'icyatsi kibisi karimo uturongo tw'umweru ndetse na kora y'umweru ndende, akaba ari kugorora amaboko, amaguru ndetse n'umugongo.

Aya ni amacupa arimo umuti wifashishwa mu gihe umuntu ari muri siporo, uyu muti ukabagabanya ububabare aho uri muri siporo ashobora kuwukoresha bityo igihe yari afite ububabare nta bwumve.

Iki ni ikirahure giteretse hasi hakaba hari icupa ririmo amazi meza cyane asukuye, bari gusukamo mu rwego rwo kugira ngo umuntu wagiye muri siporo naza anywe amazi meza, yateguwe kandi ayabonere ku gihe.

Iyi ni inyubako nziza cyane, ikorerwamo siporo, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ushobora kwifashisha mu gihe uri gukora siporo. Harimo urujya n'uruza rw'abantu baje gukora siporo, mu rwego kugira ngo imibiri yabo igororoke.

Umwari mwiza cyane ukiri muto, yambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu akaba yambaye udupfukamunwa tw'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, imbere ye hari mudasobwa iteretse ku meza ari kuyitegerezamo.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo buri ahantu mu mirima, ni ibiti birebire bifite amashami meza cyane maremare ndetse n'ibindi bifite amashami magufi, bikaba bifite amababi ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, bikaba bivamo umuti gakondo.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera cya gakondo, hakaba hariho ibibabi biri mu mabara y'icyatsi kibisi, ibi bibabi hari umuntu uri kubisoroma, mu rwego rwo kugira ngo abitunganyemo umuti gakondo bityo yivure.

Aya ni amoko y'imiti gakondo ikomoka ku bimera, ikaba ifungiye mu dukarito ndetse no mu tubido, iyi miti yifashishwa mu kuvura uburwayi bugiye butandukanye ndetse n'ubwananiranye kwa muganga barabuvura bugakira.

Utu ni udukarito turimo imiti ikomoka ku bimera. Ibi bikaba byifashishwa mu gihe umurwayi agiye kwa muganga bakamuvura akanga gukira, akaba yaza bakamuha umuti maze agakira vuba.

Uyu ni umumama wifubitse agatambaro k'umweru, akaba afite agakapu ku kuboko kwe kw'ibumoso, ari kwicira umuti uri mu ibara ry'icyatsi kibisi, mu rwego kugira ngo ajye kwivura uburwayi afite, bitamusabye kujya kwa muganga.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo ivura kandi igakora neza cyane, hariho umwari wambaye agapira k'umukara ufite udusatsi ari kugaragara nkaho afite isereri, iyi miti ifungiye mu makarito kandi iravura.

Iyi ni imiti gakondo iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ikaba iri ahantu hakorotirijwe na senyege, aha rero iyi miti ikaba yitabwaho cyane ndetse igatunganywa, ikaba yahabwa abarwayi bishyuye amafaranga,

Iki ni igihingwa kizwi nka tangawize, kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane izifata mu mwanya w'ubuhumekero, kikaba gikoreshwa nka kimwe mu miti gakondo ivura abantu kandi bagakira vuba.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, iyi ni imiti ikomoka ku bimera yamaze gutunganywa neza, ikaba ikoreshwa mu buvuzi bugiye butandukanye, aho ihabwa abarwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bambaye impuzankano, ni imipira y'icyatsi kibisi iriho utugambo tw'umweru mu gatuza, bakaba bari kuzenguruka mu mirima ihinzemo ibikakarumba nka bimwe mu bikoreshwa nk'imiti gakondo.

Aka ni agakarito karimo imiti gakondo ikomoka ku bimera, hakaba hariho umumama wifashe mu mugongo, bigaragara neza cyane ko uyu muti avura umugongo ndetse kandi ugatuma n'umuntu yiyongera apetit bityo akagira imirire myiza.

Aya ni amoko y'ibimera gakondo agiye atandukanye ari mu mabara atandukanye ndetse hakaba harimo n'ikimera gifite urubuto, hariho akambi kagaragaza buri muti n'icyo uvura, uko ukoreshwa ndetse n'uko wawubika.

Aka ni akabido kari mu ibara ry'umweru kakaba gafite umupfundikizo utukura, aha hakaba hariho igishushanyo cy'uruyuki ndetse n'inyuguti zigaragaza izina ry'uyu muti n'uko ukoreshwa mu rwego kugira ngo abantu babeho neza.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'ibimera akaba ateye mu butaka. Ibimera birifashishwa cyane mu gihe bari gusuzuma umurwayi ndetse no mu gihe bari kumuha umuti ukomoka ku bimera aho umuvura nta nkomyi.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera cyameze mu rugo, uyu muti ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye, ni umuti gakondo cyane cyane wifashishwa n'ababyeyi igihe bawuha abana babo, barwaye munda.

Iyi ni imirima ihinzemo amoko y'imiti gakondo, aba ni abashakashatsi ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuhinzi bakaba baje gusuzuma mu rwego kugira ngo barebe ko iri kugenda yera neza cyane.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti gakondo ikomoka ku bimera, hakaba hari umugabo uri kugenda ayisekura yifashishije agasekuru ndetse na gahini biri hano yarangiza akayisuka ahantu hagiye hatandukanye, hari iri ku gasahane, hari iri mu gakono, hari iri mu ka base ndetse hari n'indi igiye iteretse hasi.

Aka ni agasekuru karimo imiti gakondo, hakaba hari n'indi iteretse ku nkoko ndetse n'undi uri mu gacupa, uyu ni umuntu ugiye gutegura umuti mwiza cyane, uvanzemo ibimera gakondo ndetse n'ubuki.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera, ikaba iteretse ku ngiga, ni udukarito duteretse ku ngiga, aho utu dukarito turimo amapaki y'imiti yamaze gutunganywa mu bimera, akaba ahabwa abarwayi bayifashisha.

Iri ni isoko, iki ni igice gicururizwamo imiti gakondo ikomoka ku bimera, abayicuruza barayiteguye neza, bayifunga mu macupa agiye atandukanye, yaba aya palasitike ndetse hakaba hari n'andi macupa y'ibirahuri, aho harimo imiti igiye itandukanye.

Aya ni amacupa arimo imiti gakondo ikomoka ku bimera, yamaze gutegurwa neza, ishyirwa mu macupa asa neza, ku buryo uwuguze awukoresha atawinubira, awishimiye na wo ukamuvura neza cyane.

Iri ni icupa ry'ikirahure ririmo umuti gakondo, hakaba hariho akapa k'icyatsi kibisi, kagaragaza ko uyu muti uvura indwara zigiye zitandukanye kandi wujuje ubuziranenge wemewe na Leta.

Iki ni kimwe mu birango bishyirwa ku muti gakondo cyangwa se umuti ukomoka ku bimera, iki kirango kikaba kiriho igikakarubamba ndetse hakaba hariho n'uruyuki, bikaba bigaragara yuko ari amavuta y'uruhu.

Aka ni agacupa gato cyane k'umweru, gafite umupfundikizo w'umweru, hakaba hariho icyapa kiriho uruyuki ndetse n'amagambo yanditswe mu ibara ry'Icyongereza agaragaza izina ry'uyu muti ndetse n'uko ukoreshwa bakagaragaza n'ingano yawo.

Aka ni agacupa gato cyane k'umweru gafite umupfundikizo w'umweru, kakaba kariho icyapa cy'ubururu kiriho igishushanyo cy'uruyuki ndetse hakaba hariho n'amagambo yanditswe mu rurimi rw'Icyongereza agaragaza izina ry'uyu muti n'uko ukoreshwa.

Iyi ni imiti gakondo iteretse ahantu hagiye hatandukanye, hakaba hari agasekuru k'umweru ndetse karimo n'umuhini, iyi miti gakondo irifashishwa cyane cyane mu kuvura indwara zananiranye kwa muganga.

Aka ni agacupa gato kari mu ibara ry'icyatsi kibisi hakaba hariho uruyuki ndetse n'andi magambo yanditseho, aka gacupa kakaba karimo umuti ukomoka ku kimera k'igikakarubamba bavanze n'ubuki bityo bagakora umuti uvura uburwayi.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera, aya moko akaba agiye ateretse mu masorori ari mu mabara agiye atandukanye, harimo ibisa n'umukara, ibisa na kake, ibisa n'umweru ndetse n'ibisa n'umuhondo, byose akaba abivangavanga maze agakuramo umuti umwe.

Utu ni uducupa turimo imiti gakondo, iyi miti iri mu ducupa twiza cyane tw'umweru, harimo tubiri tunini n'akandi kamwe gato, utu ducupa twose tukaba turiho icyapa kiriho akanyamaswa k'uruyuki ndetse hakaba hariho n'agashushanyo kagaragaza uko iyi miti ikoreshwa.

Aya ni amoko y'imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, ikaba ifungiye mu ducupa ndetse no mu dukarito bigiye bitandukanye, hose hakaba hariho inzuki ndetse hariho n'amagambo agaragaza uko iyi miti ikoreshwa.

Utu ni uducupa dutatu turimo imiti gakondo ikomoka ku bimera, aha muri buri gacupa hagiye harimo icyapa, icyapa kigiye kigaragaza izina ry'uwo muti ndetse n'indwara uvura n'uko ukoreshwa.

Ubu ni ubwoko bw'imiti ikoze mu bimera cyangwa se imiti gakondo, ikaba ifungiye mu gakarito keza cyane, aho bigaragara yuko uyu muti uba ufite miligarama magana atanu kandi ukaba ukoranywe ubushishozi.

Aya ni moko agiye atandukanye y'imiti gakondo. Iyi miti ikaba igiye iteretse mu dusorori tugiye dutandukanye ndetse ikaba iri no mu mabara atandukanye, aho hagaragara iri mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera gakondo burambitse ku nkoko, hakaba n'uburi mu gasekuru aho bari gutunganya imiti ikomoka ku bimera mu rwego rwo kugira ngo yifashishwe mu buvuzi maze abantu bakira indwara.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo buri ahantu hamwe, iyi miti ikaba yitabwaho mu gihe iyo isaruwe itunganywa neza kandi igakorwa bitewe n'umuti ukenewe kugira ngo ubuzima busigasirwe.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera bifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, ibi bimera bikaba bitegurwa neza, bityo bikavamo umuti gakondo wifashishwa mu buvuzi, aho uhabwa abarwayi ukabavura kandi bagakira.

Agacupa gato cyane k'umweru ndetse gafite n'umupfundikizo w'umweru, hakaba hariho icyapa kigaragaza ko ari umuti gakondo ukozwe mu mutobe w'indimu ndetse n'ubuki, aho uyu muti uvura uburwayi bugiye butandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gakondo, iki kimera kikaba gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, hari n'andi yumye ahungukira, hasi ibi bibabi birifashishwa cyane, iyo bari gutegura umuti gakondo uzavura abantu.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, akomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, ikaba iri mu dukarito indi kabiri mu ducupa tw'umuhondo turiho uruyuki, ndetse n'igikakarubamba, ndetse bikaba bigaragara ko iyi miti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Aya ni amacupa arimo amoko y'imiti ikomoka ku bimera ariko kandi hakaba n'agasorori gateretseho imwe mu miti ifunze neza. Hakaba na avoka ikasemo kabiri, iyi miti ikoze muri avoka ndetse n'ubuki, ikaba ishobora gukoreshwa hasukurwa amenyo.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo iteguye neza cyane kandi iri mu macupa ameze neza. Iyi miti ikorwa mu byatsi ndetse igatunganwa neza igashyirwa mu macupa meza. Maze abayiguze bakayikoresha bishimye.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bufunze mu dukarito tugiye dutandukanye. Iyi miti yarateguwe maze inyuzwa mu ruganda bayikora neza, bayifungira mu macupa ameze neza, barangije bashyira mu makarito, mu rwego rwo kugira ngo igere ku bo igenewe itarangiritse.

Ni umwe mu bakora imiti gakondo kandi ikoranywe ubushishozi ndetse n'ubuhanga. Ibi ni ibinini biteguwe mu bimera bikaba byifashishwa havurwa uburwayi bugiye butandukanye.

Aya ni amoko y'ibimera agiye atandukanye, harimo ibikozwe mu binini, hakaba ibibabi ndetse n'uducupa, iyi miti yose ikomoka ku bimera kandi ivura abantu bagakira indwara zabo burundu.

Ibi ni ibimera bivamo umuti gakondo. Ibi bimera bakaba basarura amababi yabyo, bityo bigakoreshwa mu rwego rwo kugira ngo, havemo umuti uvura abantu kandi ubonekere ku gihe bitagoranye.

Aka ni agacupa gato cyane k'umweru karimo umuti gakondo, uyu muti ukozwe mu buki ndetse no mu gikakarubamba, ukaba uhabwa abarwayi bafite indwara zigiye zitandukanye, zigakira nta nkomyi.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera gakondo bugiye butandukanye, abantu batandukanye bagiye kwishakira imit, mu rwego rwo kugira ngo barebe koko niba imiti gakondo ivura indwara zananiranye kwa muganga.

Aya n ni amoko y'imiti gakondo agiye atandukanye, ikaba iri mu mabara agiye atandukanye harimo ubururu, umuhondo, umutuku, umukara, ndetse n'andi, hari imiti iri mu macupa avanze mu ma etageri, iyi miti ni myinshi.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo, bikaba bigizwe n'amababi y'icyatsi kibisi, ndetse n'uturabyo tw'umuhondo, aha nk'uko bigaragara iyi miti yifashishwa mu gihe bari gutegura imiti ya gakondo myiza cyane ikoranwe ubuhanga.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera kizwi nk'urumogi, urumogi bararuhinga ndetse abaruhinga barutunganyamo umuti gakondo uvura. Uretse ko uramutse urukoresheje nabi rushobora kwangiza ubwonko bwawe ariko ni umuti.

Aba ni abantu bari guhamura imiti gakondo, iyi ni imiti ikiri mitoya igaragara ku byatsi bikiri bigufi, aho babisarura bakabigura bityo bikavamo umuti gakondo ufite isuku.

Ubuvuzi bw'Akagera, ni bumwe mu buvuzi bwifashisha imiti gakondo, aho bagusuzuma barangiza bakareba uburwayi ufite, bifashishije ibimera bafite, bakagutegurira umuti mwiza cyane ukuvura.

Aka ni agacupa gato cyane k'umweru kakaba gapfundikishije umupfundikizo w'umweru hariho igishushanyo cy'uruyuki, uyu muti ukozwe mu ruyuki ndetse hariho n'inyuguti zigaragaza izina ryawo ndetse nuko ukoreshwa.

Ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo bwamaze gusarurwa buri gutegurwa mu rwego rwo kugira ngo hazavemo umuti mwiza cyane, uvura abantu wizewe, unogeye ijisho kandi ukangura ubu buzima.

Ubu ni ubwoko bw'ibimera gakondo biri mu mabara y'icyatsi kibisi, ibi bimera byifashishwa bategura umuti gakondo usukuye ukeye unogeye umubiri kandi ukavura mu buryo bwiza

Agashashi gato cyane k'umuhondo karimo imiti iri mu ibara ry'umukara. Hakaba hometseho akapa karimo umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, bigaragaza amagarama agize uyu muti ndetse bikanerekana ko ufite ikirango cy'ubuziranenge.

Aka ni agacupa gato cyane k'umweru, kakaba gafite umupfundikizo w'umweruru kariho icyapa kigaragaza izina ry'uyu muti ndetse hakagaragaraho n'akanyamaswa k'uruyuki, uyu muti ukozwe mu buki kandi ukoreshwa buri munsi.

Utu ni udukarito turimo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye, ikaba igiye ifungiye mu ducupa, bakayifunga bakayishyira mu dukarito, hari akarongo k'akambi kari kugaragaza ko umuti uri mu gakarito ka mbere ari na wo uri mu ka kabiri.

Iri ni icupa rito cyane ririmo umuti gakondo, rimeze neza cyane kandi riruzuye, riteretse ahantu hasa umukara, rikaba rishushanyijeho akanyamaswa k'uruyuki nk'uko bigaragara, uyu ni umuti watunganyijwe kandi uvura.

Aka ni agacupa gato cyane kari mu ibara ry'umweru gapfundikishije umufuniko w'umweru, kakaba kariho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi ndetse hakaba hariho n'uruyuki. Uyu muti ukozwe mu ruyuki.

Ibi ni ibirahure bibiri, bikaba birimo umuti gakondo ukozwe mu mweya ndetse n'amazi. Umwenya ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane izo mu buhumekero ndetse n'izindi uba wumva ko zafata mu mwanya w'ubuhumekero.

Agacupa gato cyane karimo umuti ukomoka ku bimera, gafite ibara ry'umweru, ndetse kanapfundikishije ibara ry'umweru, hariho uruyuki, bigaragara ko uyu muti ukozwe mu buki, bityo abawunywa ubavura kandi utajya ubarurira.